Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, ibinyobwa bitondetse neza ku murongo hakurikijwe uko bigenda bisa.

Inzu y'ubucuruzi y'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, intebe zikozwe mu mbaho, igikoreshwa cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa.

Inzu yuburuzi itangirwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'idasembuye hari intebe ziri mu ibara ritukura ndetse hatatse amatara ari mu ibara ry'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisindisha ndetse n'ibidasindisha, hari amatara afite amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, hari intebe kandi iriho umwenda.

Inzu y'ubucuruzi itangirwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hari amatara ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'imeza ari mu ibara ry'umweru; hari kandi igikoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gusakaza amashusho ndetse n'amajwi.

Icyapa kiyobora ahari inzu y'ubucuruzi y'ibinyobwa bw'ibisembuye ndetse n'ibidasembuye hariho icupa ry'ikinyobwa gisembuye. Ndetse gishushanyije hariho abagabo batatu ibara n'icyatsi.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hahagaze umuguzi ari kureba icyuma cyifashishwa mu gusakaza amajwi ndetse n'amashusho.

Ibidukukije bigizwe n'ishyamba, ibiti byiza cyane by'inganzamarumbo, icyapa kiyobora ahafatirwa ibyo kunywa ndetse n'ibiribwa byiza kandi bifite umwimerere.

Igitabo cyahariwe gushyirwamo ibicuruzwa bicururizwa aho hantu, harimo ibyo kunywa ndetse n''ibyo kurya. Buri gicuruzwa kigiye gifite umubare w'amafaranga kishyurwa.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa bishimidisha ndetse n'ibidasindisha, ikirahure giteretse ku meza kirimo inzoga, indobo irimo amacupa y'inzoga ndetse n'igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gusakaza amajwi n'amashusho.

Amazu maremare y'amagorofa ahatangirwa ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembe n'ibidasembuye, hari ikirango kinini kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Indabo nziza zifite ibara ry'umutuku, inzu y'ubucurizi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, amatara afite ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku.

Ikinyabiziga gikoreshwa mugutwara abantu ndetse n'ibintu, ikirango kiranga aho gufatira ibinyobwa bisindisha, ndetse n'imodoka ebyiri, ndetse n'umuhanda w'amabuye.

Inzu y'ubucuruzi itatswe n'amatara meza hacururizwa ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya , harimo ibisembuye ndetse n'ibidasembuye hari amatara kandi yaka mu ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi hacururizwa ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye; hatatswe amatara y'ubwoko butandukanye: arimo amabara y'ubururu ndetse imbere hari amatara yaka amabara y'umuhondo.

Ahatangirwa ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hari imeza ikozwe mu mbaho, umuguzi yambaye umupira w'umukara ndetse n'ingofero y'umukara.

Icupa riteretse ku meza ririmo ikinyobwa gisindisha ndetse n'ikirahuri banyweramo ibyuma bibiri by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gukwirakwiza ndetse no kunoza amashusho.

Igipapuro kifashishwa mu gutanga ubufasha, kiba cyanditseho ibicuruzwa biri aho hantu ndetse n'ibiciro kuri buri gicuruzwa, ibi biciro kandi biba byizewe.

Ahatangirwa ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bifite isuku n'umwimere n'uburyohe ntagereranywa. Hari kandi ibirahure bibiri birimo ikinyiobwa ndetse n'inyama.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, akabati gakozwe mu mbaho ndetse n'amatara ari mu ibara ry'umuhondo, hari kandi icyuma k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa.

Inzu y'ubucuruzi, icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, itatswe mu buryo bwa kizungu, harimo amatara afite ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu.

Icyapa kiriho ibara ry'icyatsi kibisi, kiriho ikinyobwa cya Virunga, hejuru handikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, hariho ikirahure kirimo ikinyobwa cya Virunga ndetse n'icupa ryanditseho Virunga.

Icyapa kiranga ahafatirwa ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye kiri mu ibara ry'umweru handikishijweho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi hacururizwa ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, harimo umucuruzi w'umugabo wambaye ipantaro ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ishati rifite ibara ry'umweru, hari amatara kandi ari mu ibara ry'umuhondo.

Inzu y' ubucuruzi biyakiriramo bafatiramo ibiribwa ndetse n'amafunguro atandukanye harimo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye. Hari umugore ndetse n'umwana muto, umugore kandi afite igicu, igikoresho cyifashishwa mu itumanaho.

Inzu y'ubacuruza icuruzwamo'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gukwirakwiza no gusakaza amashusho ndetse n'amajwi.

Umukobwa wicaye ahantu heza cyane yahasohokeye, afite igikoresho k'itumanaho ndetse gikoranywe ubuhanga buhanitse. Ahantu ari hari amatara afite ibara ry'umutuku.

Umuhungu uri kwitegereza ikinyobwa gisindisha cy'inzoga, afashe akuma ari gusuka mu cyuma kinini, yambaye neza bigaragara ko ari mu kazi.

Igitabo umucuruzi aha umuguzi kigizwe n'ibicuruzwa acuruza ndetse n'ibiciro byabyo, mu rwego rwo korohereza umuguzi kumenya amategeko n'amabwiriza aranga aho agiye.

Inzu y'ubucuruzi bwibinyobwa bisembuye ndetse nibidasembuye, isize amarange y'umweru imbere hari amatara ari mwibara ry'umuhondo kandi hari intebe ntoya ziri mwibara ry'umukara.

Icyapa kiyobora abaguzi aho banywera ibisindisha, ndetse icyo cyapa kiriho kigizwe n'amabara abiri atandukanye umutuku ndetse n'umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku.

Icyapa kiriho ikinyobwa kimara inyota kitwa virunga kiri mu icupa rimeneka ndetse n'ikirahure, umugore uri gusoma kuri cya kinyobwa bisa nkaho yizihiwe ndetse n'abantu benshi bazamuye intoki n'ibiganza bigaragara ko bishimye.

Kiranga ahacururizwa ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hariho amafoto ay'abakobwa, umuhungu ndetse n'ivide. Hari kandi amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo, icyapa kiri mu ibara ry'umutuku.

Inzu ya ubucuruzi, icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari amatara meza cyane yaka mu mabara ya umuhondo, icyatsi ndetse na ibara rya umutuku.

Abantu babiri bahagaze imbere y'ibikoresho by'ikoranabuhanga, risakaza amashusho ndetse n'amajwi ndetse hakaba hari n'ibikoresho bitandukanye, harimo ibirimo ibinyobwa bisindisha.

Icyapa kiriho abahanzi, hariho abahungu babiri n'abakobwa babiri hariho kandi ikinyobwa gisembuye kiri mu ibara ry'icyatsi, icyo kinyobwa kiraryoha kandi kivura amavunane.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibinyobwa bitandukanye harimo ibisembuye n'ibidasembuye, hakaba bipanzwe mu macupa yabugenewe abirinda kwangirika ndetse bikagumana ubuziranenge, bibitswe neza mu mutekano.

Igipapuro cyangwa igitabo cyifashishwa mu kuranga cyangwa kumenyesha abagana aho hantu hafatirwa ibiribwa cyangwa ibinyobwa, ibiribwa bafite ndetse n'ibiciro byabyo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, intebe n'imeza zifite irange ry'umutuku, igikoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gusakaza amajwi ndetse n'amashusho.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisindisha ndetse n'ibidasindisha, umugabo uhagaze, amatara ari mw'ibara ry'ubururu, ivide riteretse ku meza.

Ahakorerwa ubucuruzi by'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hatatse amabara y'umuhondo; ndetse hari icyuma k'ikoranabuhanga gisakaza amajwi ndetse n'amashusho.

Inzu y'ubucuruzi y'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, imbere hari igikoresho k'ikoranabuhanga gisakaza amajwi n'amashusho byiza kandi bigezweho hari amatara kandi yaka mu ibara ry'icyatsi.

Ahatangirwa ubucuruzi bw'ibiribwa cyangwa ibinyobwa, ibyo binyobwa birimo amako atandukanye ibisembuye ndetse n'ibidasembuye hari kandi amatara yo mu bwoko bwiza ari mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku.

Ikinyabiziga gitwawe n'umuhungu, amarembo afunguye, icyapa kiranga ahafatirwa ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Inzu y'ubucuruzi itatswemo amatara afite ibara ry'umuhondo ndetse n'imeza ifite ibara ry'umukara hariho agatambaro k'umuteguro kari mu ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi, ahacururizwa ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, harimo amatara arimo amabara y'umuhondo ndetse hahagaze umukobwa uri gusaba ubufasha.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye ndetse n'uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, ukanze imibare iri hejuru ku gipapuro cyabugenewe ugakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Inzu y'ubucuruzi itangirwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, yubakishijwe imbaho hatatswe amatara yaka mu ibara ry'umuhondo, icyatsi, ndetse n'umutuku.

Ahacururizwa ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, ku meza hatatsweho igitambaro kiri mu ibara ry'umutuku, ushobora kwishyura ikinyobwa cyawe ukoresheje ikoranabuhanga.

Igipapuro cyangwa igitabo cyifashishwa mu kwamamaza, kumenyekanisha cyangwa kwerekana ibicuruzwa bicururizwa mu nzu y'ubucuruzi ndetse buri gicuruzwa kigiye gifite igiciro cyacyo.

Ahafatirwa ibyo kurya bigezweho byiza kandi bifite uburyohe ntagereranywa, hari kandi ibiribwa by'ubwoko bwose byo ku Isi yose, ikindi hari ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Ateretse ku meza y'urubaho, ikirahure kirimo ikinyobwa. Abagabo batatu bicaye bari kuganira ndetse n'umucuruzi uri kubaha icyo kunywa.

Inzu y'umucuruzi, abantu babiri bicaye ku ntebe z'imbaho bari kureba icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gukwirakwiza ndetse no mu gutambutsa amajwi n'amashusho.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye bitondetse neza ku murongo ku buryo bugezweho, akabati karimo ibara ry'umweru.

Ikirango kiriho abasore babiri ndetse n'abakobwa babiri, bari kubyina imbyino zitandukanye, ndetse n'icupa ririmo igisindisha cyangwa inzoga, ikinyobwa kiryoha cyane.

Umucuruzi ucuruza ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibudasembuye, biri mumacupa ameneka ndetse n'atameneka, hari amatara y'ubwoko butandukanye, hatatswemo amatara y'umutuku ndetse n'ubururu muburyo bwiza cyane.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hakaba hari kandi aho gufatira amafunguro, hari ikiribwa gikozwe mu: nyama, ifarini, amagi, amata ndetse kigatekeshwa amavuta.

Ahatangirwa ubufasha bw'ubucuruzi, ni inzu y'ubucuruzi harimo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya ibisindisha ndetse n'ibidasindisha, hateraniye abantu benshi bose baje gushaka ibyo bafata.

Umukobwa uhagazi ufite imisatsi iboshye ndetse wambaye agapira kari mu ibara ry'umukara afashe mu ntoki icupa rimeneka rijyamo ibisindisha.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo Ibyoaaakunkwa ndetse nibyo kurya cyane cyane ibisembuye ndetse n'ibidasembuye. Hari umugabo ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa mu ntoki.

Amazu maremare y'amagorofa, ibidukikije byiganjemo ibiti, icyapa kirimo ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Igipapuro cyabugenewe, gishyirwaho amasaha, ndetse, n'ibicuruzwa wabona aho hantu, ibyo bicuruzwa kandi buri kimwe kigiye gifite igikiro kiri inyuma y'ikigomba gufatwa.

Inzu yubucuruzi icururizwamo ibinyobwa , bisembuye ndetse n'ibidasembuye ibinyobwa bipanze neza kumurongo ,hateretse intebe iri mwibara ry'umutuku, ndetse ibinyobwa byose bitunganyijwe neza.

Icyapa kiyobora abagenzi ahatangirwa ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, icyo cyapa akiri mu ibara ry'umutuku cyandikishijweho ibara ry'umweru, harimo ivide ririmo inzoga ndetse n'ikirahure.

Ibiganza bibiri biri gusangira icyo kunywa, biri mu birahure bitandukanye. Umwe ari kunywa amazi, undi ari kunywa ikinyobwa gikozwe mu ndimu. Kumeza hateretse ikiribwa cyangwa urubuto rw'indimu.

Inzu y'ubucuruzi igaragara itangirwamo ibyo kurya hari umugabo wambaye imyenda y'ibara ry'umukara yicaranye n'umugore bari gusangira ibyo kurya bya saa sita.

Igitabo kifashishwa mu gutanga amatangazo y'ibiribwa biboneka aho ngaho cyangwa ibinyobwa biboneka aho ngaho ndetse haba hariho amafaranga kuri buri kiribwa.

Igitabo gishyirwamo cyangwa se kirimo amatangazo y'ibijyanye n'ibicuruzwa biboneka aho hantu, ndetse buri gicuruzwa kikagenda kigira igiciro cyacyo.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha icupa ririmo ikinyobwa gisindisha ndetse n'icyuma k'itumanaho k'ikoranabuhanga gikoreshwa mu buryo gusakaza amashusho y'umupira w'amaguru.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari intebe ziri mu ibara ry'umukara, amatara kandi ari mu ibara ry'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi.

Inzu ya ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye na ibidasembuye. Ku meza hateretse icupa ririmo inzoga, hari amatara kandi ya ibara rya umweru.

Inzu y'ubucuruzi bucururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, akabati gateretse ururabo ruri mu ibara ry'umweru ndetse n'umusambi ufite ifoto nziza.

Inzu y'ubucuruzi, icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari uruvunge rw'abantu benshi baje gushaka ubufasha bw'ibinyobwaa; hari kandi amatara ari mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi y'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hatatse amatara ari mu bwoko bwiza cyane bugezweho, harimo amabara y'umuhondo ubururu ndetse n'icyatsi, hicaye abantu babiri bari kureba ku cyuma gisakaza amajwi n'amashusho.

Inzu y'ubucuruzi, icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetS n'ibidasembuye, hateretse ikirahure, ndetse kuri iyo meza hateretse amacupa abiri y'inzoga.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, abantu benshi baje gushaka ubufasha, intebe ziri hanze ziri mu bwoko bw'imbaho.

Inyemeza bwishyu yerekana ibicuruzwa waguze ndetse n'igiciro cya buri gicuruzwa ugendeye ku mategeko n'amabwiriza y'ikoranabuhanga.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye; harimo amatara y'ubwoko butandukanye agizwe n'amabara: y'umutuku, icyatsi cyibisi ndetse n'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, bisembuye ndetse n'ibidasembuye. Hari matara ari mu ibara ry'umuhondo ndetse hubakishijwe ibiti.

Ahantu hatangirwa ibinyobwa bisembuye ndetse hakaba hari n'ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gukwirakwiza amafoto ndetse n'amashusho mu buryo bwa kinyamwuga.

Inzu iriho ikirango kiranga ahafatirwa ibinyobwa bisembuwe, icyo kirango gikozwe mu ibara ry'umutuku, imbere hari ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu kuruhande hari imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Inzu y'ubucuruzi, irimo ibinyobwa bikonjesheje, ndetse harimo ibisembuye n'ibidasembuye, hari udutebe turi mu ibara ry'umweru, dufite amaguru y'icyatsi, n'amatara amanutse y'umutemeri ari mu ibara ry'icyatsi.

Umukobwa ufite akamwenyu ku maso, afite igikoresho cy'itumanaho, ari kwerekana uburyo akoresha yishyura ibicuruzwa bye. Inyuma ye hari ibisindisha.

Inzu iri mu ibara ry'ubururu abantu bahagaze, igikoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mukurangurura amajwi ndetse no kwerekana amashusho byiza kandi bikeye.

Ahateraniye abantu benshi bari kureba umupira w'amaguru, ku cyuma cy'ikoranabuhanga gikurura, kigasakaza, ndetse kikerekana amajwi n'amashusho bikeye.

Abakobwa n'abahungu bari kunywa ibinyobwa bisindisha ndetse n'ibidasindisha, hari itara riri mu ibara ry'umutuku ndetse n'igishushanyo kiriho abagabo batatu bambaye imyenda y'umukara.

Icyapa kiranga aho bafatira amafunguro ari ho kwa Fani; ndetse munsi yaho hari inzu y'ubucuruzi, icuruza ibijyanye n'imyambaro y'abagabo.

Izu y'ubucuruzi harimo ibinyobwa bisindisha ndetse n'ibidasindisha hari amatara atatse y'ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu, imbere hari icyuma k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gusakaza amashusho ndetse n'amajwi.

Inzu y'ubucuruzi y'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, ikirahure giteretse ku meza kirimo ikinyobwa gisembuye, hari amatara ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Ahatangirwa ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye hari intebe iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'udutara duto duto turi mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Abantu babiri bari gusangira, umwe afite ikirahure kimeneka, undi afite icupa rimeneka, harimo ibinyobwa bisindisha. Bafite ibyuma by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu itumanaho.

Abantu bane bari gusangira ibinyobwa bitandukanye, hari abari kunywa ibisindisha ndetse hari n'abari kunywa ibitarimo ibisindisha, bicaye ku meza ariho igitambaro y'umuhondo.

Urugi rufite ibara ry'umweru icyapa kiyobora kiriho amacupa abiri y'inzoga, igikuta kiriho ibara ry'umuhondo cyanditseho amagambo y'ibara ry'umutuku, bigaragara ko hacururizwa ibinyobwa bisembuye.

Amashusho y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, imbere hari udutebe dutoya turi mu ibara ry'umweru, amaguru yatwo afite ibara ry'icyatsi ndetse hari n'icyuma cyabugenewe cyo gukonjesha.

Ahasohokerwa n'abantu baturutse impande n'impande z'isi, hari amatara yaka amabara y'umuhondo ndetse hari intebe ziri mu ibara ry'umutuku, hubakishijwe kandi imbaho.

Ikayi yifashishwa mu gutanga amatangazo cyangwa se kumenyesha abaguzi ibiciro n'ibigurishwa bafite aho, hariho kandi amashusho yerekana ibicuruzwa bacuruza.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, itatswe n'amatara atandukanye ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umutuku, aho abaguzi bahagarara hari intebe ziriw ibara ry'umukara.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, igikoresho k'ikoranabuhanga gisakaza amajwi n'amashusho mu buryo bugezweho.

Inzu y'ubucuruzi y'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hateretse icupa rimeneka ririmo inzoga ndetse n'ikirahure kirimo inzoga.

Inzu y'ubucuruzi itangirwamo ubufasha bw'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye. Hari amatara kandi afite ibara ry'icyatsi kibisi. Ku meza hateretse icupa rimeneka.

Inzu y'ubucuruzi hacururizwa ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari intebe abaguzi bicaraho ndetse hari n'abacuruzi babiri biteguye kubakira.

Inzu y'ubucuruzi itaswe n'amatara yaka amabara atandukanye, arimo: ubururu ndetse n'umutuku; imbere kandi hari icyuma k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gusakaza amajwi ndetse n'amashusho bitunganye.

Ikirahure kirimo ibisindisha icupa rimeneka ririmo ibisindisha imeza iri mw'ibara ry'umutuku ndetse n'ikirahure giteretseho ibikoresho byose navuze ruguru.

Inzu y'ubucuruzi ifite amatara y'umutuku ndetse n'ubururu, hari intebe iri mw'ibara ry'umukara. Imbere aho umucuruzi atangira ibicuruzwa bye, hari amatara ari mu bwoko bw' umuhondo ndetse yaka cyane.

Inzu y'ubucuruzi, icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, imeza ndetse inzu yubakishijwe ibiti byo mu bwoko bwa ribuyu.

Igipapuro cyifashishwa mu bucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, kigaragaza ubwoko by'ibinyobwa n'ibiribwa biri aho hantu ndetse n'ibiciro bya buri gicuruzwa kibarizwa aho.

Igitabo gikubiyemo ibicuruzwa ndetse n'ikiguzi cya buri gicuruzwa, ugendeye kuby'umuguzi ashaka ndetse n'ibikorerwq aho hantu.

Igikuta kinini kiriho amabara ari mu bwoko bw'umuhondo cyanditseho amagambo ari mu nyuguti nkuru yandikishije ibara ry'umutuku cyerekana aho wakura ikinyobwa gisembuye.

Icyapa kiyobora ahacururizwa inzoga; inzu ifite imiryango iri mu ibara ry'umweru; imiryango ibiri ifunguye, umutaka uriho ikirango cy'itumanaho, uri mu ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bitandukanye, ibisindisha ndetse n'ibidasindisha, hari amatara afite amabara atandukanye, amabara y'umutuku ndetse n'ari mu mabara y'umuhondo, n'icyatsi kibisi, n'ubururu.

Urugi rufunguye ruri mu ibara ry'ubururu, indobo irimo ibiribwa bikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi ndetse bitekesheshwe amavuta.

Umucuruzi n'umuguzi bari kuganira, ibinyobwa bikozwe mu mbuto nk'imyembe ndetse n'amata meza ya Mukamira adufasha mu buzima bwa buri munsi, abitswe neza heza kandi h'isuku.

Amagi abitswe neza mu buryo bugezweho, atondetse akurikijwe ku murongo, mu matereyi. Iruhande hari umucuruzi wambaye impuzankano y'akazi.

Ikiribwa gikozwe mu ifarini, isukari, amata, ndetse n'amazi. Gitekeshejwe amavuta, hariho agapapuro k'isuku.

Umugati uciyemo uduce dutoya, ukoze mu ifarini, amagi, amata, udufasha mu bitera imbaraga, mu byubaka umubiri ndetse n'Ibirinda indwara. Ufite amavitamine menshi, harimo A, B na C.

Ahatangirwa amazi meza asukuye, ukishyura ukoresheje itumanaho cyangwa se igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa. Amacupa aba arimo amazi arizewe kandi afite umutekano.

Ahatangirwa serivise ry'ubucuruzi by'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hifashishijwe ikoranabuhanga, umuguzi wambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ahatangirwa ubucuruzi harimo ibara ry'umweru

...sambusa afite ubwoko bwinshi; hari ay'inyama, hari amashaza, hari ay'ibirayi. Akorwa mu ifarini amavuta ndetse n'ubusenga. Amenshi aba aryoshye, aryoheshejwe n'ibyakoreshejwemo.

Amacupa yabugenewe, ashyirwamo amata anyobwa, ari mu ibara ry'umweru, ndetse n'irindi cupa rimwe riri mu ibara ry'umuhondo; ateretse hasi ari ku murongo.

Icyuma cy'ikoranabuhanga kifashishwa mu kubika neza ndetse no gukonjesha amata akagumana ubuziranenge, iki gikoresho cyanditseho Nyanza.

Ibiribwa bifunze mu buryo bwiza kandi bwizewe, bwujuje ubuziranenge. Bikozwe mu ifarini, isukari, amagi, amata, amazi, ndetse n'amavuta.

Urugi rw'ubururu rufunguye rushushanyijeho igishushanyo k'inka ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ariyo i Nyyanza.

Igikoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mukubika, mugusukura ndetse nogukonjesha amata muburyo burabye, ay'amata ashobora kubikwa igihe kinini ntakibazo agize kubuzima bw'umuntu afite umwimerere.

Ibiribwa bikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi ndetse n'amavuta, hateretse kandi amata ari mu kirahure afite intungamubiri ku buzima bwacu.

Ubusabane bw'abantu bane bari kunywa amata , amata asa neza afite akamaro gakomeye ku buzima bwa muntu mu buzima bugiye butandukanye bwa buri munsi.

Uduti duto turi mu gakombe gato twifashishwa mu gusukura amenyo nyuma y'uko umuntu ariye ikiribwa cy'inyama gifata hagati mu menyo, gateretse ku meza, imeza ifite ibara ry'umweru.

ahacururizwa ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bidasembuye birimo, amata n'amazi, hejuru harimo indobo irimo ibiribwa bikozwe mu ifarini: amata, amagi, amazi, isukari ndetse n'amavuta.

Ikiribwa gikozwe mumagi, ifarini, ibirayi, amavuta, amazi ndetse n'umunyu muke. Iki kiribwa Kandi kidufasha mubuzima bwa buri munsi.

Inzu y'ubucuruzi hariho ikirango kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu handitseho Mukamira, hacururizwa amata ari mu cyuma cyabugenewe cy'ikoranabuhanga.

Icyapa kiyobora ahatunganyirizwa amata y'Inyange, hariho umwana uri kunywa amata ufashe igikombe mu ntoki, handitseho ni amata meza, ateguwe neza, ashobora guhita anyobwa, yujuje ubuziranenge.

Ikinyobwa kiryoshye kandi kizewe gikozwe mu nkeri gikozwe n'uruganda Mukamira ndetse izo nkeri zivangwa n'amata ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Ikiribwa gikozwe mu ifarini, amata, amagi, amazi, umunyu ndetse n'isukari, gitekeshejwe amavuta, kiraryoshye kandi wagikoramo ubucuruzi.

Umugore w'umucuruzi ufashe ku kabido karimo amata abitswe neza, yambaye ikanzu irimo amabara atandukanye yiganjemo ubururu, umuhondo n'umweru.

Umugore wambaye igitenge kirimo amabara atandukanye, yiganjemo ibara ry'umuhondo. Ikirangantego cy'ikinyobwa kokakora. Mo imbere harimo icyuma cyifashishwa mu gutunganya amata.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo amata hari kandi icyuma kifashishwa mu gutunganya no kubika amata ku buryo burambye kandi bwizewe bw'isuku. Iki cyuma kirakonjesha kandi ni cyiza pe!

Ibiribwa bifite uburyohe ntagereranywa bikozwe mw'ifarini, amagi, amata, amazi ndetse n'isukari nyinshi. Bikaba bitunganyirizwa mu byuma byabugenewe by'ikoranabuhanga.

Inzu ya ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa cya amata ndetse na ibindi binyobwa bidasembuye. Hari kandi icyuma cyifashishwa mu kubika, mu gutunganya neza amata, akaramba kandi afite ubuziranenge. Icyo cyuma cyanditseho Inyange.

Ibiribwa bikoze mu ifarini, inyama, amata, ubunyobwa, amagi, bigatekeshwa amavuta, ndetse n'umucuruzi uri gucuruza amata mu kajerekani kabugenewe.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, umwana uri kunywa amata handitseho "ni amata meza" ateguwe neza ashobora guhita anyobwa yuzuje ubuziranenge.

Intebe iri mu ibara ry'ubururu, igikoresho cyabugenewe cy'ikoranabuhanga, gikozwe mu bumenyi bukomeye cyane, kifashishwa mu kubika no gutunganya amata.

Umukobwa ufite ibikoresho cy'ikoranabuhanga kigendwana mu ntoki, ari kukifashisha mu kwishyura ibikoresho ndetse no guhaha amata.

Ikinyobwa kiryoha cyane gikozwe: mu mata, isukari, hakiyongeramo imbuto z'inkeri, kitwa masaka; kiba gifunzwe mu macupa meza cyane akirinda kwangirika.

Igikoresho cyiza kiramba kandi cy'ikoranabuhanga kigezweho, cyifashishwa mu kubika ndetse no mu gutunganya ikinyobwa cy'amata mu buryo burambye kandi bwizewe, aya mata ni ay'uruganda rwa Mukamira ndetse aba abitswe ahantu hagari hakonje.

Udupapuro tw'isuku twifashishwa ahantu hatandukanye tugakoreshwa uhanagura: ibyuya, ibyunzwe cyangwa uri gufata ikiribwa ugiye kurya.

Inzu y'ubucuruzi yahariwe gucururizwamo amata ateretse neza mu bikombe byabugenewe cyangwa se amacupa ari mu ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi hacururizw' amata, har' umucuruzi uri kubuganiza ikinyobwa cy' amata. Kuruhande kandi har'igiti cyiza cy'inganzamarumbo munsi harimo inka.

Ikinyobwa gikorwa mu mata ariko hongewemo imbuto zimwe na zimwe, iki kinyobwa kandi kiba kirimo urubuto rw'inkeri ndetse hakongerwamo n'isukari.

Ahari ibiribwa bikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari ndetse bigatekeshwa amavuta. Hari kandi igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gukonjesha amata.

Igikoresho bakoresha banywa amazi, amata ndetse n'ibindi bisukika. Iruhande kandi hari igikoresho bashyiraho ibiribwa mu gihe cyo kurya. Biteretse ku meza ifite ibara ry'umweru, ikirahure kirimo amata.

Umuntu ufashe mu ntoki ikiribwa gikozwe mu ifarini, amazi, amata, amagi ndetse n'umunyu muke hifashishijwe ibyuma byabugenewe.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibyo kurya bikozwe mu ifarini, amazi, amata, amagi ndetse n'umunyu. bitekeshejwe amavuta.

Abana babiri bari kunywa amata, bafite ibiribwa bikozwe mu ifarini, amata, amagi, amazi ndetse n'isukari. kandi bari kumwe n'umucuruzi wambaye impuzankano yakazi, iri mu ibara ry'umweru.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kubika neza amata mu buryo bw'isuku ndetse no kuguma akonje, ku buryo agumana ubuziranenge ndetse no kuba intakemwa mu buryohe, no kugira ubuzima bwiza ku buzima bwa muntu.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata, umukobwa wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umweru; ari kubuganiza amata ayakura mu gice kimwe ayashyira mu kindi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi harimo amata y'inyange ndetse n'amazi y'uruzi rwa Nili. Harimo kandi indobo iteretse mu buryo bucuramye.

Ibyuma bikozwe mu ikoranabuhanga rikomeye, ryifashishwa mu kubika neza igihe kirekire ndetse no gutunganya amata mu buryo burambye kandi bwiza bwizewe.

Amatereyi atandatu, arimo amagi atondetse neza ku murongo, mu buryo bwo kwirinda kumeneka cyangwa se kwangizwa, akabikwa neza, mu buryo bugezweho.

Icyuma cyagenewe kubika ndetse no gusukura amata mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga, amakarito arimo amazi y'inyange ndetse n'imeza ifite ibara ry'umweru n'ikirahure kibitsemo ibiribwa.

Inzu y'ubucuruzi ifite unzugi ebyiri, zifunguye, ziri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'iyo nzu mo imbere hasize ibara ry'ubururu. Hariho ibirango by'amacupa yabugenewe, ashyirwamo amata yaciye mu nganda, hakagira ibyongerwamo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari intebe iri mu ibara ry'ubururu, hari kandi igikoresho cyifashishwa mu kubika ndetse no gukonjesha ibinyobwa, hari kandi icyuma cyifashishwa mu gutunganya amata.

Ikiribwa kiryoshye gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi ndetse n'amavuta. Iki ikiribwa Kandi bongeramo isukari kikaba gutera imbaraga ndetse kikarinda n'indwara.

Ahacururizwa amata hari umugore ufite inseko ku maso, afite mu ntoki amata, handitse inyange. Hari kandi igikoresho cyifashishwa mu kubika no gutunganya amata mu buryo bugezweho.

Ikirangantego cy'ahatangirwa amata cyanditseho Nyanza na nimero z'ikoranabuhanga wababonaho arizo; agasaraba, kabiri gatanu, zeru karindwi icyenda, zeru makumyabiri na karindwi, kane kane, umunani icyenda.

Ikiribwa kiryoshye kandi gisa neza gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi ndetse n'isukari iki kiribwa kandi kidufasha kongera imbaraga mu buzima.

Ububiko bugezweho bubitswemo ibiribwa bitandukanye bikozwe mu ifarini, isukari, amata, amagi, amazi ndetse n'umunyu.

Inzu y'ubucuruzi cyangwa ishami ry'Inyange hari umryango ufunguye uri mu ibara ry'ubururu. Icyapa kiyobora kandi kiri mu ibara ry'ubururu naryo.

Umugabo wicaye ku ntebe iri mu ibara ry'umweru afite mu ntoki icupa ryabugenewe ryo gushyiramo amata, ari kubuganiza amata ayakura mu cyuma cyabugenewe kibika ndetse kikaba gishinzwe gukonjesha amata ayashyira ahabugenewe mu rindi cupa rinini afite mu ntoki.

Icyuma gikozwe mu ikoranabuhanga, kibika, kigatunganya, kigakonjesha ndetse kigafata neza amata ya mukamira.

Ahacururizwa ibiribwa bikoze mu ifarini, amata, amagi, amazi ndetse n'amavuta, hifashishijwe ibyuma bya bugenewe.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika ibiribwa bikozwe mu ifarini, amata, amagi, amazi, isukari, ndetse n'amavuta.

Amatereyi yabugenewe, akoreshwa mu buryo bwo kubika neza amagi, hirindwa kumeneka kwayo cyangwa se kwangirika aho abikwa ahagaragara.

Abantu batatu harimo umugore umwe ndetse n'abagabo babiri bari kunkwa amata ndetse bicaye kuntebe zifite ibara ry'umweru imeza iriho igitambaro kijimye.

Indobo isigayemo ibiribwa bibiri, harimo icyuma cyabugenewe bafatisha ibyo biribwa. Bikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, ndetse n'amavuta.

Ahacururizwa ibinyobwa by'Inyange harimo inzoga, amazi ndetse n'amata. Aha kandi ni icyapa kigizwe n'ibara ry'ubururu.

Ahatangirwa ubufasha bw'ubucuruzi, umucuruzi ari gutanga amata mu kirahure cy'umweru, ari kuyaha umukecuru, hari icyapa kiyobora kiriho amata meza y'inka.

Abacuruzi babiri bambaye impuzankano z'akazi, imipira iri mu ibara ry'umutuku, hagati harimo umuguzi uje kugura ikinyobwa kiryoshye, gikorwa mu mata ariko hiyongereyemo imbuto.

Ikiribwa gikoze mu ifarini, amagi, amazi, amata ndetse n'isukari, kiryoshye cyane, gikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, gitunganyirizwa mu byuma by'ikoranabuhanga byabugenewe ndetse n'igikombe kirimo amata, biteretse ku meza, bifite ibara ry'umweru.

Ibikombe bitondetse neza, birimo amata yanyujijwe mu nganda, akongerwamo ibindi bigiye bitandukanye. Harimo imbuto, isukari, ndetse n'ibindi bigiye byukaba umubiri.

Udupapuro turi mu ibara ry'umweru, dukoreshwa mu rwego rw'isuku ndetse tugakoreshwa ku bijyanye no gufata ibiribwa. Turi kandi mu gikoresho cyabugenewe.

Icyuma kifashishwa mugukomeza gishyuhije ibirimo. indobo irimo ikiribwa gikozwe mu ifarini, amata, amazi, amagi ndetse n'umunyu.

Igikoresho kifashishwa mu kubika ndetse no gusigasira ubuziranenge bw'amata kikaba gifasha amata guhora akonje, ndetse ari ahantu hizewe. Kibaka gikoranwe isuku ndetse n'ikoranabuhanga riri ku rwego ruhambaye.

Umugore ufashe igikoresho kifashishwa mu kubika neza amata, mu icupa riri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'inzu isize amabara y'umuhondo n'inyenyeri iri mu ibara ry'ubururu.

Ikiribwa gifite uburyohe buhebuje, gikozwe mu ifarini, amata, amazi, isukari, amagi, ndetse n'amavuta, kikaba gikoranye ubuhanga ndetse n'isuku.

Abantu batatu bari mu ruganiriro, bari gusangira ikinyobwa cy'amata, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umweru ndetse ku nkuta hasize ibara ry'umweru rivanze n'ubururu, inzugi zisizeho ibara ry'ubururu.

Inyubako icururizwamo amata, hejuru hariho icyapa kiranga kiri mw'ibara ryumweru, cyandikishije amagambo ari mw'ibara ry'ubururu, handitseho inyange. Hanze kandi hari intebe ziri mw'ibara ry'ubururu ndetse n'imeza iri mw'ibara ry'umweru.

Ikiganza gifahe ikirahure kirimo amata, ikirahure giteretse ku meza ifite ibara ry'umweru hirya gato hari umugabo uri kunywa amata.

Inzu y'ubucuruzi irimo ubwoko bw'amata bugiye bitandukanye, ndetse bugiye bufunze mu buryo bwa kijyambere butandukanye; budufasha kuguma bufite ubuziranenge ndetse n'ireme, n'ubwiza buhebuje.

Icyapa kiyobora ahafatirwa ibinyobwa by'uruganda rwitwa inyanza, urwo ruganda kandi rukora amata meza, aryoshye, arimo intungamubiri.

Umukobwa wambaye ishati y'umuhondo, imodoka ifite ibara ry'umweru, inzu z'ubucuruzi zigiye zitandukanye. Harimo aho bagurira imiti bifashisha mu buvuzi ndetse n'aho bagurira imyambaro.

Amacupa afunze neza arimo amazi y' uruzi rugari rwa nili aba yatunganyijwe neza mu nganda agafungwa ndetse agakorerwa isuku bakayageza ku baturarwanda.

Intebe ziri mu ibara ry'umweru, icyuma cyabugenewe cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kubika, mu gusukura ndetse no mu gukonjesha amata kugira ngo arambe kandi afite ubuziranenge bwizewe.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga ,kifashishwa mukubika neza amata cyangwa kigakonjesha amazi ndetse nayo mata arimo aba akonje mu rwego rwo kugumana ubuziranenge.

Amata yanyujijwe mu nganda, agatunganywa, agakurwamo bimwe na bimwe mu byangiza umubiri, akabikwa neza mu macupa yabugenewe, aho atondekwa rimwe ku rindi mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri, umugabo wicaye ufite igikoresho mu ntoki k'itumanaho; n'umugore uhagaze. Inzu y'ubucuruzi bw'ibinyobwa, harimo n'icyuma kifashishwa mu gutunganya no kubika neza amata.

Ibiribwa bikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi ndetse bigatekeshwa n'amavuta, biracuruzwa ndetse bikanaribwa; hari kandi ibinyobwa bidasembuye ndetse n'amazi y'inyange.

Abana babiri bari kunywa amata bafite ikiribwa gikozwe mu ifarini, mu mata, amazi, amagi ndetse n'isukari. Bicaye ku ntebe ziri mw'ibara ry'umweru ndetse imeza yabo ifite ibara ry'umweru.

Umugore wambaye ikanzu y'ikizibaho, iri mu ibara ry'umutuku, ahagaze imbere y'icyuma cyifashishwa mu gutunganya no kubika amata mu buryo bugezweho.

Ikirango kiriho amata meza yanyujijwe munganda hakongerwamo Ibindi bitandukanye nk'imbuto ndetse handitseho ikaze.

Ibikoresho byifashishwa mu kubuganiza, mu kubika ndetse no gukonjesha amata ahabugenewe bikozwe mu buryo bwizewe budateye ikibazo.

Ibyuma bibiri byifashishwa mu kubika, mu gutunganya, mu gukonjesha ndetse no mu bubiko bw'amata, kandi birizewe bikora neza bifite isuku.

Icyuma kifashishwa mu kubika ndetse no mu gukonjesha, amata umwana uhagaze imbere y'imeza ndende amakarito apanze neza y'amaya y'Inyange ndetse n'icyuma kifashishwa mu gukonjesha amata.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata y'inyange, hari igikoresho cyangwa icyuma k'ikoranabuhanga kifashishwa mu kubika mu gutegura ndetse no kunoza isuku y'amata.

Hari imeza iri mu ibara ry'umweru, iteretse ho ibiribwa bitandukanye, birimo amagi ndetse n'aimineke, hari kandi ibiribwa bikoreshwa ifarini ndetse n'isukari.

Umukobwa uri kubuganiza amata yifashishije umubirikira, akabido ndetse n'igikombe kinini cyabugenewe. Ari kuyakura mu cyuma cy'ikoranabuhanga.

Urugi rufite ibara ry' ubururu rufunguye amacupa atatu atondetse mu buryo bwiza afite ibara ry' umweru abikwamo amazi mu buryo bwizewe ndetse n' icyuma cya kizungu kifashishwa mugukonjesha.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo, gahagazemo umukobwa uri gusobanura ku bijyanye n'ifatabuguzi cyangwa itumanaho mu Rwanda.

Ishami ry'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda, riri mu ibara ry'umuhondo, abaturage baje kubaza ku bijyanye n'ubufasha bahabwa n'itumanaho ndetse na serivise ry'ikoranabuhanga.

Ahatangirwa ubufasha butandukanye bw'ikoranabuhanga ukanze akanyenyeri kabiri eshatu urwego, hari akazu kandi kari mu ibara ry'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi cyangwa se isoko rusange ihahirwamo imboga, imbuto ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye. Hakishyurwa hakoresheje ikoranabuhanga rigezweho.

Umugore ufite imisatsi miremire yirabura, wambaye ikanzu irimo amabara atandukanye ndetse n'ikirangantego k'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda, ahagaze imbere y'icyapa gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'imodoka y'ibara ry'umukara.

Abakozi b'ikigo k'itumanaho mu Rwanda, bari kuganiriza abaturage ibijyanye n'ubufasha batanga: mu kwishyura ndetse no kwishyurwa, ukoresheje icyuma cyawe cy'itumanaho cy'ikoranabuhanga kigendanwa.

Ahatangirwa ubufsha bujyanye n'itumanaho ku muyoboro mugari mu Rwanda, abakozi bambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo, bari gusobanurira abaturage babagannye ku bijyane n'ibikorwa bakora.

Umukozi w'ikigo k'itumanaho ushinzwe kwereka ndetse no gusobanurira, ibijyanye n'ubufasha ikigo k'itumanaho gitanga, yambeye impuzankano y'unururu ndetse n'umuhondo ari gusobanurira, umuguzi wambaye umupira w'umukara.

Uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri zeru mirongo ine na gatatu, mirongo itandatu na gatandatu, ikenda, urwego, nta yandi mafaranga wishyuzwa.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha ku bijyanye n'itumanaho, umuyoboro mugari mu Rwanda, emutiyeni. Kari mu ibara ry'umuhondo. Imbere harimo umukobwa uri gutanga inama cyangwa ubufasha ku bijyanye n'imikorere n'imikoreshereze ya teki

Ibinyabiziga bibiri bitwawe n'abagabo babiri abakiriya bari kubishyura bakoresheje ikoranabuhanga bagakurikiza amategeko n'amabwiriza ndetse biri mu buryo bwizewe.

Icyapa cyerekana uburyo bwo kwishyura ibicuruzwa uguze, numero y'umucuruzi umunani icyenda gatandatu gatandatu mirongo itandatu n'umunani, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.

Ibiro bikuru bishinzwe umuyoboro w'itumanaho mugari mu Rwanda emutiyeni abakozi barimo barasobanurira ababagana ibya serivise batanga ku buntu.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kwishyura ukoresheje igikoresho cyabugenewe cy'ikoranabuhanga kigendanwa. Nimero y'umucuruzi: umunani gatatu, icyenda gatanu, kane kane.

Amashami abiri atandukanye ashinzwe itumanaho mu Rwanda, akazu kamwe kari mu ibara ry'umuhondo akandi kari mu ibara ry'umutuku, imbere hahagaze abakobwa babiri baje gusaba ubufasha kubirebana n'ibyo bakora.

Akazu k'ikigo cy'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda, kifashishwa mu kwishyura ndetse no kugura ibicuruzwa bitandukanye ukanze akanyenyer,i ijana na mirongo inani na kabiri, urwego, ugakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Amakarita menshi ariho uburyo wakwifashisha wishyura ibicuruzwa byawe, cyangwa se wishyura ubufasa wahawe, ku buntu. Hari kandi mudasobwa zifashihswa mu gutanga ubufasha.

Ibikoresho bibiri byifashizwa mu itumanaho, aho umuguzi arimo arishyura ibyo yafashe. Ndetse umucurizi nawe ari gusuzuma neza ko ibyo yakoze byanyuzemo.

Umucuruzi ucuruza ibikomoka kuri peterori ndetse n'amazutu ari kwishyura akoresheje ikoranabuhanga. Arikumwe n'umukozi w'itumunaho ndetse n'umuyoboro mugari mu Rwanda, wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo.

Umuturage wishimye wambaye umupira w'impuzankano y'ikigo k'itumanaho mu Rwanda, watsindiye igare, wambaye umupira wanditseho gura pake utsinda, ukanda akanyanyeri ijana na mirongo ine, urwego, ugakomeza amategeko n'amabwiriza.

Umunyeshuri uhetse igikapu cy'umukara wambaye impuzankano y'ishuri, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro ya kake, umutaka uri mu ibara ry'umuhondo.

Inzu ntoya iri mw'ibara ry'umuhondo ry'ishami ry'ikigo cy'itumanaho m'urwanda ahatangirwa ubufasha kubijyanye n'umuyoboro mugari wo kubitsa no kubikuza amafaranga utavuye aho uri kandi muburyo bwizewe.

Akazu gato k'ishami rishinzwe gutanga umuyoboro no gukwirakwiza itumanaho mu Rwanda, kari mu ibara ry'umuhondo, ndetse karimo umukozi w'umugore wambaye impuzankano y'umupira w'ibara ry'umuhondo.

Ahatangirwa ubufasha cyangwa se inama kubirebana n'ikoranabuhanga hari umukozi wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo yandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Akazu cyangwa ishami ry'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda rifasha kandi rigatanga inama n'ubugenzuzi ku bijyanye n'itumanaho mu rwego rwo kunoza imikoranire n'abarugana.

Akazu gato k'ishami rishinzwe gukwirakwiza umuyoboro mugari mu Rwanda, harimo umukozi, ndetse ako kazu gafite ibara ry'umuhondo, hari abaturage baza gusobanuza ku bijyanye n'ubufasha bahabwa n'uwo muyoboro.

Icyuma kifashishwa mu ndangururamajwi, abagabo babiri bari kubyina, umukozi w'itumanaho, icyapa cyanditseho izihirwe ndetse n'icyapa kiranga umuyoboro w'itumanaho emutiyeni.

Akazu gato cyangwa ishami rishizwe gufasha gusobanurira nogutanga inama kubijyanye n'ikoranabuhanga mu kwishyura, kwibutsa cyangwa kubikuza amafaranga.

Ahatangirwa ubufasha, inama ndetse n'ubwunganizi ku bijyanye n'itumanaho cyangwa se uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga n'ibyuma bigendwa.

Inzu ntoya itangirwamo serivisi zitandukanye z'ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda, ndetse n'abaturage bagannye icyo kigo kugira ngo babafashe mu bufasha butandukanye bw'icyo kigo.

Inzu nto ifite ibara ry'umuhondo cyangwa se ishami ry'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda harimo umukobwa ufasha abagana iri tumanaho gusobanukirwa uko rikorwa.

Umukozi w'ikigo cy'ikoranabuhanga n'umuyoboro mugari mu Rwanda wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, imodoka iri inyuma ye iri mu ibara ry'umukara, icyapa cy'itumanaho kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ikinyabiziga.

Ifoto y'umwana uri kumwe n'umukecuru, icyapa cyanditseho gura pake utsinde. Kanda akanyenyeri ijana na mirongo ine, ukomeze amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Utsindire ibihembo byinshi.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha ku bijyanye n'itumanaho, kari mu ibara ry'umuhondo. Umukozi w'ikigo cy'itumanaho n'umuyoboro mugari mu Rwanda, ari gutanga ubusobanuro ku bijyanye n'ibikorwa bakora.

Akazu gato cyangwa ishami, rishinzwe gutanga, ubufasha, ubugenzuzi ndetse n'inama ku bijyanye n'imikoreshereze y'itumanaho mu Rwanda.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo kariho ikirango cy'itumanaho ni umuyoboro mugari mu Rwanda, kifashishwa mu kwishyura, kwakira no kohereza amafaranga.

Umukozi w'ikigo gishinzwe itumanaho, uri gutanga impano ziri mu gaseke keza, gatatswe n'amabara y'ubwoko butandukanye. Umukozi yambaye impuzankano iri mw'ibara ry'umuhondo.

Uburyo bwo kwishyura cyangwa kwoherereza umuntu amafaranga ayo yaba ari hose mu gihugu cyu Rwanda ugakatwa amafaranga macye cyane wifashishije umuyoboro w'itumanaho ukoresha.

Akazu gato cyangwa ishami, ry'ikigo gishinzwe gutanga ubufasha mu kohereza ndetse no kwakira amafaranga hifashishije icyuma k'ikoranabuhanga kigendanwa, ako kazu kari mu ibara ry'umuhondo.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo, cyangwa se Ishami ry'itumanaho, umurongo mugari mu Rwanda, wifashishwa mu kohereza cyangwa kugura ibicuruzwa.

Icyapa kerekana uburyo wakoresha wishyura ibicuruzwa ku buntu, izina ry'umucuruzi "INUMA" kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri zeru zeru gatanu gatanu cumi na gatatu urwego.

Icyapa cy'ubucuruzi kerekana uburyo wakwifashisha wishyura ibicuruzwa ku buntu ukoresheje ikoranabuhanga, kanda akanyenyeri ijana na mirongo irindwi urwego ukurikize amategeko n'amabwiriza, nimero y'umucuruzi icyenda karindwi umunani umunani mirongo itatu na gatanu.

Ishami ritangirwaho ubufasha ndetse n'inama mu bijyanye n'ikoranabuhanga, aho ushobora gukoresha igikoresho kigendanwa cy'ikoranabuhanga, wishyura, ubitsa, unabikuza amafaranga.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzw gutanga ubufasha ku bijyanye n'umuyoboro w'itumanaho mugari mu Rwanda kari mu ibara ry'umutuku hariho kandi umukobwa wamamaza.

Akazu gato gatangirwamo ubufasha bwumuyoboro witumanaho m'urwanda ariwo MTN, Kari mwibara ry'umuhondo hahagazemo Umukozi uri gutanga ubufasha kubirebana nibyo bakora.

Ahatangirwa ubufasha ndetse n'inama mubijyanye n'itumanaho hifashiishijwe abakozi bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo risa n'inzu bari gutangiramo ubufasha ndetse n'inama imbere hahagze umuturage ubagana.

Umutaka uri mu ibara ry'umuhondo, abaturage baje gusobanuza kubijyanye n'ubufasha bahabawa butangirwa mu kazu gato ndetse n'umusaza wambaye ipantaro y'ibara y'umukara.

Uburyo bwiza kandi bwizewe bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga, ukanze akanyenyeri, ijana, mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri gatandatu, gatandatu, gatandatu, gatandatu, mirongo itatu, urwego ukishyura nta kiguzi.

Abakobwa babiri bambaye impuzankano yabugenewe iri mu ibara ry'umuhondo, y'ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho; bafite inseko ku maso ndetse bambaye ibirangantego by'icyo kigo mu ijosi.

Akazu gatangirwamo ubufasha mu bijyanye n'umuyoboro w'itumanaho, mu kwishyura ndetse no kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rigendanwa mu ntoki.

Uburyo bwo bwiza bwo gukoresha wishyura ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itaratu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego ugakomeza ugakurikiza amabwiriza ndetse n'amategeko uhabwa.

Umucuruzi wahisemo uburyo bworoshye bwo gukoresha yishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga burizewe. Afite nimero mirongo irindwi, miringo itandatu na kane, karindwi.

Inzu ntoya iri mwibara ry'umuhondo harimo abakozi batanga ubufasha ndetse ninama, umuturage yaje kubaza ibijyanye n'umuyoboro mugari witumanaho m'urwanda ndetse no gusaba ubufasha kubijyanye nabyo.

Umuntu wicaye, ufite igikoresho cy'itumanaho gikoreshwa mu buryo bitandukanye, nko kwishyura amazi, umuriro, ibicuruzwa wahashye, ndetse kikaba gikoreshwa no mu guhamagarana, ndetse no gutambutsa ubutumwa bugufi.

Abakozi batatu b'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umuhondo, bicaye mu nsi y'umutaka w'umuhondo, uriho ikirangantego cyiryo shami.

Icyapa kinini cyerekana ikicaro gikuru cy'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda emutiyeni, ahatangirwa ubufasha kubijyanye n'ikoranabuhanga hakikijwe n'ibidukikije by'ibiti.

Inzu itangirwamo ubufasha ku bijyanye n'itumanaho mu Rwanda, ari yo muyoboro mugari eyateli; hari ibyapa biri mu ibara ry'umutuku, hari kandi icyapa kiriho abagore babiri, bishimiye ubufasha bahawe.

Abakozi b'umuyoboro w'itumanaho bari gusobanurira abaturage babagannye ku bijyanye n'ubufasha babaha. Aba bakozi kandi bambaye impuzankano riri mu ibara ry'umweru hariho ikirangantego cy'umuyoboro bakorera.

Ahatangirwa ubufasha ndetse n'inama ku bijyanye no kwishyura, kugura ndetse no kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga rigendanwa. Ukanze akanyenyeri, ijana na mirongo ine, urwego, ugakurikiza amabwiriza.

Igipapuro kikwereka uburyo wakwishyura ubufasha uhawe cyangwa ibyuguze ukanze akanyenyeri, ijyana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri, uminani, akanyenyeri, rimwe ,akanyenyeri, zeru, karindwi, cyenda, mirongo itanu na gatanu, mirongo irindwi n'umunani urwego.

Ishami rishinzwe gutanga ubufasha n'ubujyanama ku bijyanye n'ikoranabuhanga ryo guhererekanya amafaranga hifashishijwe ibyuma by'itumanaho bigendanwa aho waba uri hose mu gihugu.

Ahabera imurikagurishwa, hari inzu, itangirwamo ubufasha bw'itumanaho n'umuyoboro mugari mu Rwanda, iyo nzu iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara.

Ahatangirwa ubufasha bw'itumanaho ndetse n'umuyoboro mugari mu Rwanda emutiyene, hari imyenda iri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'umukozi wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umweru.

Ahatangirwa ubufasha ku bijyanye n'ikoranabuhanga, uburyo wakwishyura ukoresheje igikoresho cyawe cy'ikoranabuhanga ugendana, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo ine, urwego, ugakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Akazu gato kari mu ibara ry'umutuku cyangwa se ishami rito ry'umurongo ryitwa eyeteli Rwanda hari abaje gusaba ubufasha n'inama kubirebana n'imikorere yabo.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishizwe itumanaho mu Rwanda, ari gufasha umuturage mu bijyanye no kumenya amakuru ku bijyanye nuburyo yakwishyura akoresheje itumanaho rigendanwa ari ryo telefoni.

Akazu gato karimo ibara ry'umuhondo gatangirwamo ubufasha mu bijyanye no kwishyura no kwishyurwa amafaranga ukoresheje igikoresho kigendanwa cy'ikoranabuhanga.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa cyane mu itumanaho cyakira ndetse cyohereza ubutumwa bugufi, icyo gikoresho kiri kukwereka uburyo wakoresha itumanaho ryawe urimo wishyura amafaranga.

Ishami ry'ikigo gishinzwe itumanaho mu gihugu Rwanda riri mu ibara ry'umuhondo imbere hahagaze abaturage baje gusaba ubufasha n'inama kubirebana n'imikorere n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga.

Inzu itangirwamo ubufasha bw'itumanaho ndetse n'umuyoboro mugari mu Rwanda harimo abakozi bambaye impuzankano y'imipira y'umweru n'imipira y'umuhondo. Hari abari kubagana babasaba ubufasha ku bijyanye n'imikorere yabo.

Uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga, nimero y'umucuruzi; karindwi umunani, icyenda zeru, kabiri zeru. Ukoresha igikoresho cyawe cy'ikoranabuhanga kigendanwa, ukishyura utavuye aho uri.

Ahatangirwa ubufasha, inama ndetse n'amategeko n'amabwiriza bijyanye n'itumanaho mu guhanahana amakuru, amafaranga ndetse no kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga rigendanwa, bari mu nzu ifite irange ry'ubururu.

Amazu abiri mato y'ikoranabuhanga, atanga ubufasha ku bijyanye n' itumanaho kamwe kari mu ibara ry'umutuku akandi kari mu ibara ry'umuhondo, hamwe ukanda akanyenyeri, magana arindwi mirongo iwirindwi n'umunani, urwego ugakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Akazu gato, kari mu ibara ry'umuhondo, gashinzwe gutanga ubufasha ku bujyanye n'itumanaho. Kanditseho " Kanda, akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, urwego, ukurikize amategeko n'amabwiriza",

Inzu itangirwamo ubufasha mu bijyanye n'umuyoboro mugari mu Rwanda witwa airtel. Hariho umukobwa ufite igikoresho cy'itumanaho, ukifashisha mu gutanga amakuru. Iyo nyubako iri mw'ibara ry'umutuku.

Inzu iri mu ibara ry'umuhondo harimo umukozi w'ikigo k'ikoranabuhanga mu Rwanda gitanga ubufasha ku bijyanye n'umuyoboro mu gari w'itumanaho mu Rwanda.

Umukozi w'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda, ari gutanga ubufasha ku bikorerwa aho hantu, yambaye impuzankano y'iryo shami iri mu ibara ry'umuhondo.

Uburyo bwizewe kandi buhendutse ku giciro cy'ubuntu, wakoresha wishyura ibicuruzwa byawe, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu, urwego, ugakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Umukozi w'umugore w'ikigo cy'itumanaho , umuyoboro mugari wo mu Rwanda wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ari gusobanurira umugabo ku bijyanye n'ubufasha batanga .

Ahatangirwa ubufasha, inama zo kwishyura cyangwa kugura itumanaho wifashishijwe igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa, imbere hari mudasobwa.

Inyanya nziza zikoreshwa mu gutunganya ibiribwa; umuguzi ufite ikarita yifashishwa mu kwishyura ndetse n'igikoresho k'ikoranabuhanga kigendanwa kifashishwa mu kwishyura ibicuruzwa.

Abakozi b'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda bari gutanga ubufasha ku muturage bamusobanurira ku bijyanye n'ibikorwa bakora, bambaye impuzankano riri mu ibara ry'umuhondo ndetse bafite na mudasobwa imbere yabo.

Ikinyabiziga gitwawe n'umugabo ndetse n'umukozi w'ifatabuguzi ry'ikigo gishinzwe itumanaho ndetse n'umuyoboro mugari mu Rwanda n'utwaye ibiribwa abishyikiriza ababiguze.

Ahatangirwa ubufasha bw'ikigo cy'itumanaho, hari icyapa kiyobora, kiri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'abakozi bane bambaye impuzankano y'imipira iri mu ibara ry'umuhondo. Ndetse bambaye n'ibyapa biranga mu ijosi.

Isoko ry'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, icyapa cyanditseho imyaka icumi hamwe namwe murakoze, umuguzi uri kwerekana inyemezabwishyu, aho yishyuriye akoresheje ikoranabuhanga.

Ahatangirwa ubufasha bw'ubucuruzi, aho wishyura ukoresheje ikoranabuhanga, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu urwego, ugakomeza ushyiramo nimero y'umucuruzi ari yo magana atandatu ijana na mirongo icyenda na gatandatu.

Umuhanzikazi ufite indangururamajwi uri gususurutsa abari ahongaho. Bicaye mu ihema rifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru. Yambaye impuzankano isa n'iy'abandi, umupira uri mu ibara ry'umuhondo.

Umukobwa ufite inseko ku maso, uri gusobanura ibjyanye n'umuyoboro w'itumanaho emutiyerene; yambaye ipuzankano y'akazi irimo ibara ry'umuhondo.

Ahatangirwa ubufasha bw'ubucuruzi, umucuruzi wambaye umupira wirabura, imashini yifashishwa mu gutanga inyemezabwishyu ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigendanwa.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka, gifite ibara ry'umukara cyicayemo umugabo, ari we ugitwaye; ndetse n'umukozi w'ikigo cy'itumanaho n'umuyoboro mugari mu gihugu cy'u Rwanda, wambaye impuzankano y'ibara ry'umuhondo.

Umutaka uri mw'ibara ry'umuhondo ndetse n'imeza iri mw'ibara ry'umuhondo, abakozi babiri ry'ishami rishinzwe gutanga ubufasha kubijyanye n'itumanaho mu Rwanda. Umuyoboro mugari ariwo MTN.

Umucuruzi w'ibikomoka kuri peteroli ndetse na mazutu ari gutanga ubufasha ndetse yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo. Umuguzi ashobora kwishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Inzu ntoya iri mu ibara ry'umuhondo cyangwa se ishami ry'itumanaho cyangwa umuyoboro mugari ukorera mu Rwanda, harimo abakozi bari gufasha umuturage mu bijyanye n'ibikorwa bakora.

Ibiganza byifashe igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa, kizwi nka telefoni. Umuyoboro cyangwa se urubuga rwifashishwa mu guhaha no guhuza umucuruzi n'umuguzi.

Ahatangirwa ubufasha bwo kwishyura kwohereza kubitsa amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga n'igikoresho kigendanwa cy'ikoranabuhanga abakozi bambaye umpuzankano ziri mw'ibara ry'umuhondo.

Ahatangirwa ubufasha bw'irembo ndetse n'ibigo by'imari byikorera. Wahamagara zeru karindwi iminani ibiri, magana ane mirongo inani n'umunani, magana ane n'umunani.

Ishami ritoya ry'ikigo gishinzwe gutanga ubufasha ry'itumanaho mu Rwanda, hicayemo umukozi wambaye impuzangano riri mu ibara ry'umuhondo, akazu yicayemo kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umuturage ari gufasha ku bijyanye n'ubufasha batanga,

Umugore w'umucuruzi uri mu mutaka w'ibara ry'umuhondo, wambaye impuzankano yabugenewe y'ikigo gishinzwe gukwirakwiza itumanaho mu gihugu ndetse uwo mucuruzi akoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu kumwishyura ibicuruzwa.

Umucuruzi w'ifatabuguzi ndetse n'ikoranabuhanga umuyoboro mugari mu rwanda, yambaye impuzankano ny'akazi iri mu bara ry'umuhondo ndetse n'umutaka uriho kanda akanyenyeri ijana na morongo inani na kabiri urwego ndetse ukurikize amategeko n'amabwiriza.

Umukozi w'ikigo k'itumanaho, ari guha impano umuguzi ubagannye, ukeneye ubufasha ku bijyanye n'ibyo bakora, iyo mpano iri mu gikoresho cy'ubugeni kiri mu mabara meza yiganje mo icyatsi kibisi.

Akazu gato cyangwa se ishami rishinzwe gusobanurira abaturage cyangwa abaguzi ibijyanye n'ikoranabuhanga wakoresha wishyura cyangwa se ugura ibicuruzwa.

Umukozi w'umuyoboro w'itumanaho emutiyeni ari mu mutaka w'ibara ry'umuhondo ndetse yambaye impuzankano y'akazi nawe wibara ry'umuhondo, hari indangururamajwi ibafasha kwamamaza ibyo bakora.

Icyapa gikoreshwa mu kwereka abaguzi uburyo bakwishyura nta kiguzi. Kanda akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri gatatu, urwego, kode, kandi ugakurikiza amategeko n'amabwiriza ku buntu. Hari kandi abakozi b'ikigo cy'itumanaho bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mwitumanaho. Agakoresho gacomekwaho imigozi iyobora umuriro ndetse n'inkweto ziri mw'ibara ry'umukara.

Umukozi w'umuyoboro w'itumanaho, wambaye impuzankano y'akazi uri mw'ibara ry'umuhondo. Imbere hari mudasobwa, ari gusobanurira umuturage wamugannye ku bijyanye n'ibikorwa bakora.

Ikigo k'itumanaho mu Rwanda wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhond ndetse n'ingofero mu ibara ry'icyatsi kibisi ari kumwe n'umuturage wamuganye mu rwego rwo kumufasha kunoza serivise zitangwa n'icyo kigo.

Umukozi w'ikigo cy'ifatabuguzi ndetse n'umuyoboro mugari mu Rwanda wambaye impuzankano mu ibara ry'umuhondo, ari gusobanurira umugore uje umugana amusaba ubufasha. Imbere yabo hari icyuma gishinzwe gukonjesha.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'imyenda y'abagabo ndetse hari kumanikwa ikiranga uburyo wakoresha wishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho ukanda kabiri gatanu zeru gatanu rimwe umunani ugakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Akazu gako kari mu ibara ry'umuhondo cyangwa ishami ry'ikigo gishinzwe itumanaho n'umuyobora mugari mu Rwanda, aho bakwereka uburyo wakifashsisha uguza amafarango yo gukemura ibibazo, kanda akanyenyeri Ijana na mirongo Itandatu na Gatanu, akanyenyeri Gatanu, urwego.

Uburyo bwemewe kandi bwizewe bukoreshwa mu ikoranabuhanga bwifashishwa mu kwishyura no gukoreshwa mudasobwa kurubuga rw'umuguzi abarizwaho n'umucuruzi bakaganira ku giciro.

Urubuga ruhuza abaguzi ndetse n'abacuruzi hifashishijwe ibikorwa by'ikoranabuhanga, bagahuriraho bazaganira ku bicuruzwa n'ibiciro by'ibyo bicuruzwa.

Urubuga abacuruzi bahuriraho n'abaguzi, bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimi imyenda y'abana, iy'abagore ndetse n'imiti.

Urubuga ruhuza umucuruzi ndetse n'umuguzi bakumvikana kubijyanye nigiciro kigicuruzwa umucuruzi akoherereza umuguzi igicuruzwa yasabye nyuma yo kwishyura, Kandi akakimwoherereza kubuntu.

Icyapa kifashishwa mu kuranga aho wabona cyangwa aho wakura imyambaro y'abagore, amajipo meza ari mw'ibara ry'umukara. Umupira mwiza uri mw'ibara ry'icyatsi ndetse n'ikanzu ifatanye n'agapira kari mw'ibara ry'ubururu.

Ibinyabiziga byifashishwa mu gukwirakwiza ibiribwa bihiye aho umucuruzi avugana n'ushaka ibicuruzwa bakabimugezaho ku giciro cyiza. Abo bagabo bambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umutuku.

Ibinyabiziga binini byifashishwa mu gutwara imizigo ndetse n'abantu babigeza ku baturage batandukanye, byanditseho "Twiga" biri mu ibara ry'umuhondo amagambo yanditse ari mu ibara ry'umweru, hejuru hariho inyubako iri mu ibara ry'icyatsi.

Ibinyabiziga bitatu biri ku murongo, bitwawe n'abagabo batatu bambaye impuzankano y'akazi. Batwaye ibyo kurya bifunze neza mu ibara ry'umutuku.

Urubuga umuguzi n'umugurisha bahuriramo bakaganira kubijyanye n'ibiciro, urwo rubuga rukorera mu Rwanda mu mujyi wa Kigali kandi hishyura hakoresheje ikoranabuhanga ibicuruzwa byawe bikakugeraho ku isaha.

Uzuri ni urubuga rw'ikoranabuhanga ruhurirwaho n'umuguzi ndetse n'umugurisha bakaganira ku giciro umuguzi yashima igiciro ndetse n'igicuruzwa akagabanyirizwa mirongo itatu ku ijana.

Umugore ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu itumanaho, yinjiye mu buryo bwo gutumiza ibyo kurya hifashishijwe ikoranabuhanga, ukishyura bikakugeraho utavuye aho uri.

Umukozi ishinzwe gushyikiriza ibiribwa ababimutumye. Yambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi, yanditseho vuba vuba. Ndetse kandi ahagaze ku kinyabiziga atwaramo ibyo biribwa.

Ikinyabiziga gitwawe n'umugabo wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'icyatsi kibisi atwaye ibiribwa, muri icyo atwayemo handitseho Vuba Vuba.

Ikinyabiziga gitwaye ibiryo bihiye kibisyikiriza umuguzi, abigura akoresheje itumanaho kandi babimugezaho ku buntu.

Icyapa kiriho uburyo wagura ifatabuguzi ryawe, ryo kwinjira mu gitaramo cy'abahanzi ndetse n'abahanzikazi bazadutaramira i Kigali, ku itariki zirindwi.

Umukozi w'umukobwa w'ikigo gishinzwe gutanga ibiribwa mu mugi wa kigali, aho ari gutunganya ibicuruzwa bajyanye ku muguzi, yambaye, impuzankano yanditseho vubavuba; ndetse iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Ibiribwa bikungahaye kubitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse nibindi. urabitumiza bakabikugezaho hu buntu, ndetse ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, kiriho igikoresho bashyiramo ibiribwa bihiye. Babigeza ku baturage mu mugi wa Kigali ndetse no hanze y'umugi wa Kigali. Vuba kandi ku buntu, mu buryo bwizewe.

Urubuga rwifashishwa mu guhuza umuguzi n'umucuruzi, bakaganira ku bijyanye n'ibicuruzwa. Umuguzi akohereza amafaranga akoresheje itumanaho ryabugenewe kandi mu buryo bwizewe, ibicuruzwa bikamugezaho ku mutekano.

Uburyo ushobora kugura cyangwa ukigurira ifatabuguzi ro guhamagara cyangwa ukandika ubutumwa bugufi ukoresheje itumanaho ryihuse.

Urubuga rukora nk'isoko, aho umucuruzi ahuriraho n'umuguzi bakaganira ku giciro ndetse umucuruzi akakimugezaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe.

Urubuga rwifashishwa hakurikijwe ikoranabuhanga rukoreshwa ku isi hose. Uru rubuga kandi ruhurirwaho n'abacuruzi ndetse n'abaguzi batandukanye, baturutse impande n'impande.

WWW akadomo kigure akadomo rwa ni urubuga abacuruzi bahuriraho n'abaguzi bakagura igicuruzwa aho waba uri hose kikagugeraho kubuntu mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'umujyi wa Kigali kikakugeraho wishyuye amafaranga igihumbi y'u Rwanda.

Inzu y'ubucuruzi ihahirwamo ibikoresho bw'ikoranabuhanga. Hari icyapa kiyobora, cyanditseho "ihaha". Ushobora kandi kubabona ku murongo w'itumanaho, ari wo 0788291402.

Inyubako, cyangwa se inzu iri mu ibara ry'umweru, ahacururizwa imyenda y'abagore ndetse n'abagabo, imbere hari n'imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Urubuga rw'ibiranga umucuruzi ahuriraho n'umuhugi bazaganira ku giciro ndetse umucuruzi akakugezaho ibyo wasabye vuba kandi mugihe kizewe

Urubuga rw'ikoranabuhanga ruhuza umucuruzi n'umuguzi bakaganira kubijyanye n'ibicuruzwa ndetse n'ibiciro byabyo bikakugeraho aho waba uri hose, bitagusabye kuva murugo iwawe.

Urubuga rw'ikoranabuhanga ruhuza umuguzi ndetse n'umugurisha, aho baganira ku giciro cy'amavuta meza ku ruhu akozwe mu nkeri, bakakugabanyiriza mirongwitanu ku ijana, ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Umukobwa wicaye ku busaswa bufite ibibara ry'umweru, afite inseko ku maso, yambara utwakira amajwi, turi mu ibara ry'umweru, ndetse ari gukoresha urubuga rw'ikoranabuhanga, ruhuza abacuruzi n'abaguzi.

Abacuruzi bacuruza inyana, imineke ishishuye, igura amafaranga magana abiri, ibirayi bigura amafaranga igihumbi magana abiri na mirongo itanu y'u Rwanda, ndetse n'imodoka iri kumwe n'abacuruzi.

Ikinyabiziga gitwara abantu ni ibintu cyahariwe by'umwihariko kugeze ibyo kurya bihiye ku baguzi mu buryo bwiza kandi byizewe mu isuku kandi vuba, umukozi ugitwara wambaye impuzankwano y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo.

Twiga ni urubuga umuguzi n'umugurisha bahururaho bakaganira ku giciro cy'igicuruzwa hifashishijwe ikoranabuhanga na mudasobwa, umugabo wambaye impuzankano yanditseho twiga afite umuzigo uri mu ibara ry'umweru.

Igikoresho cyifashishwa mu gukwirakwiza ibyo kurya, cyitwa vuva vuba. Umukozi yambaye impuzankoano y'akazi, iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Ikinyabiziga kifashishwa mugukwirakwiza ibiribwa aho umuguzi yicara iwe agatumiza ibyokurya bitandukanye bikamugeraho muburyo bworoshye ntakiguzi.

Icyapa kiriho itangazo riranga igitaramo kizabera muri serena hoteli i Kigali ndetse amafatabuguzi yo kwinjiriraho yasohowe.

Urubuga umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku bijyanye n'ibiciro by'ibicuruzwa umugurisha aba afite. Bikamugeraho ku buntu. Hakoreshejwe itumanaho ndetse na,...

Umukozi wa kampani yitwa vubavuba ahagaze imbere y'igikoresho kifashishwa mu kugeza ibiribwa mu mugi wa Kigali ahantu ahariho hose waba uri ku buntu.

Ibidukikije bigizwe n'ibiti by'inganzamarumbo, ikinyabiziga gitwawe n'umugabo, icyabugenewe gitwarwamo ibiryo bitetse, bishyiriwe uwabitumije.

Ahacururizwa ibijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu gukora cyangwa se mu kunoza ikorabuhanga bambaye impuzangano riri mu ibara ry'ubururu.

Ikinyabiziga gitwawe n'umugabo wambaye impuzankano y'akazi, iri mu ibara ry'umutuku, yambaye kandi ikirinda cyo mu mutwe, ndetse atwaye ibibiribwa abishyikiriza uwabiguze biciye mu ikoranabuhanga.

Urubuga ruhuza abaguzi n'abagurisha bakaganira ku bikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi; hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibinyabiziga bitatu biri ku murongo, bitwawe n'abagabo batatu bambaye ibirindamutwe ndetse n'impuzankano iri mu ibara ry'umutuku; batwaye ibiribwa bihiye.

Ikinyabiziga kiri mw'ibara ry'umutuku kiriho aho batwara ibiribwa bihiye, babikura ahantu hamwe babijyana ahandi, ndetse n'ushinzwe kubibashyikiriza.

Urubuga rw'ubucuruzi rukorera ku Isi hose, mu Rwanda ndetse no hakurya y'amazi magari, hifashishijwe ikoranabuhanga rihanitse, mu guhuza umuguzi ndetse n'umucuruzi ntawuvuye ahari kandi byizewe.

Ibinyabiziga bibiri bitwaye amafunguro atetse, afunze neza mu buryo bwa kijyambere bugezweho, bwizewe, kandi bufite isuku, aba yatumijwe hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse akishyurwa utavuye aho uri.

Igikoresho cyitwa vuba vuba gikoreshwa mu kubika neza ibiribwa ndetse no gukwirakwiza mu mujyi wa kigali aho waba uri hose ndetse no hanze y'umujyi wa kigali, mu buryo bwizewe vuba kandi neza hakubiyemo isuku ndetse n'ibindi byiza.

Murukari ni urubuga umuguzi n'umugurisha bahuriraho bakaganira ku ibiciro bigiye bitandukanye by'ibicuruzwa bicururizwa kuri urwo rubuga harimo ibikoreshwa mu isuku, ibiryamirwa, ndetse n'ibisaswa.

Urubuga rwizewe rwo koherezaho ibyo ukeneye bikakugeraho wibereye iwawe, gukora ubusabe hamagara kubuntu, ikenda rimwe eshatu cyangwa se ugakanda akanyenyeri ikenda rimwe rimwe urwego.

Ihererekanwa ry'ibicuruzwa riva hamwe rijya ahandi, aho umucuruzi ari guhereza umuguzi ibyo yatumije binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Urubuga ruhuza abaguzi na abacuruzi uhahiraho, hariho ibiribwa bikozwe mu nyama, amagi, ifarini nibindi bigiye bitandukanye.

Ibinyabiziga byifashishwa mu kugemura cyangwa mu gukwirakwiza ibiribwa mu buryo bwizewe vuba kandi bwiza bufite isuku ndetse nibiti byiza by'inganza marumbo.

Urubuga umucuruzi ahuriraho n'umugizi bakaganira ku bicuruzwa bigiye bitandukanye, akaba yabimugezaho aho ari ho hose mu Mujyi wa Kigali ku buntu.

Urubuga rw'ikoranabuhanga umucuruzi ahuriraho n'umuguzi bakaganira ku biciro bigiye bitandukanye kandi hakoreshwa itumanaho mu kwishyura ndetse bikakugeraho mu buryo bwizewe.

Abakozi babiri bambaye impuzankano riri mu ibara ry'icyatsi, bashinzwe kugemura cyangwa se gukwirakwiza ibiribwa mu ngo z'abantu, ibyo biribwa bikaba bihiye ndetse bifunze neza mu bikarito bya bugenewe.

Ibiro bikuru bya ishami rishinzwe umuyoboro wa itumanaho mu Rwanda, Iposita. Hari ibinyabiziga bitwara abantu ndetse na ibintu. Hari kandi inyubako iri mu ibara rya umuhondo.

Urubuga rwifashishwa mu guhuza umuguzi ndetse n'umugurisha bakaganira ku byo akeneye, bakabimugezaho ku buntu aho yaba ari hose. Hamagara agasaraba magana abiri na mirongo itanu, magana arindwi mirongo inani na karindwi, magana icyenda mirongo inani na kabiri, magana atandatu.

Ibirindamutwe byifashishwa wambara mu mutwe mu gihe utwaye ikinyabiziga kugirango wirinde impanuka zakwangiza umutwe cyangwa ibindi bice bigize umutwe wawe mu gihe utwaye.

Umukozi wa kampani ya Vuba vuba wambaye impuzankano y'akazi, iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru atwaye ikinyabiziga ashyiriye umuguzi ibyo yatanze.

Urubuga umuguzi ahuriraho n'umucuruzi bakaganira ku bijyanye n'igiciro cyashyizweho, ndetse umuguzi akishyura umucuruzi akoresheje ikoranabuhanga, bikamugeraho ku buryo bwiza bwizewe, kandi ku bintu.

Urubuga ruhurirwaho n'umuguzi ndetse n'umugurisha bakaganira ku giciro; kuri make bikamugeraho, aho yaba ari hose mu mumjyi wa Kigali ku buntu; harimo: imboga, imbuto ndetse n'ibindi.

Isoko ry'ibiribwa higanjemo ibitoki, biri mu byabugenewe; harimo abakozi bambaye impuzankano y'utuntu mu mutwe tw'umweru, ndetse n'amashati maremare y'umukara.

Urubuga ruhurirwaho n'abacuruzi ndetse n'abaguzi bakaganira kubijyanye n'ibiciro by'ibicuruzwa bacuruza, harimo inkweto, imyenda ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Umukozi wa vuba vuba uzanye ibiribwa aho bamutumye ndetse afite ikinyabiziga yambaye n'impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Urubuga ruhurirwaho n'abaguzi ndetse n'abacuruzi mu kugira ngo hanozwe uburyo bwo gutumanaho no guhahirana ibicuruzwa hatagombye kugera aho ibyo bicuruzwa biri.

Igikoresho cyabugenewe cyanditseho amagambo kasha. Ushobora guhamagara akanyenyeri ikenda, rimwe, rimwe, urwego, cyangwa se ukanyura k'urubuga wa, wa, wa akadomo kasha, akadomo rwa.

Urubuga umucuruzi ndetse n'umuguzi bahuriraho bakumvikana ku giciro k'igicuruzwa runaka, kikamugeraho mu buryo bwiza kandi bwizewe hakoresheje vubavuba ndetse na yego.

Urubuga umucuruzi ahuriraho n'umuguzi bakaganira kubijyanye n'ibicuruzwa bamara kumvikana igiciro, umucuruzi akoherereza umuguzi ibiribwa yamusabye k'ubuntu ndetse kandi mu buryo bwizewe bufite umutekano.

Urubuga ruhuza abaguzi n'abagurisha, ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibikorwa mu rwego rwo korohereza umuntu guhaha atiriwe ava iwe agakoresha ikoranabuhanga mu kwishyura ndetse no gutumiza ibyo yifuza.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara miremire ufite inseko ku maso, uri kwitegereza mu cyuma cy'ikoranabuhanga kigendanwa, wambaye ibikururamajwi by'umweru ndetse ari gukoresha urubuga bakoresha bahaha ndetse banishyura ibicuruzwa.

Igikoresho cyifashishwa n'abagore ndetsen'abangavu mu gihe cy'ukwezi kwa bo. Iki gikoresho kandi gikoranywe isuku, ubwiza ndetse n'uburambe mu gufasha abangavu n'abakobwa mu bihe byabo.

Urubuga rwiza rwizewe kandi rufite iterambere, ukoresha ikoranabuhanga ukagurisha imodoka, inzu, ikibanza gikodeshwa ndetse n'inzu ikodeshwa n'ibindi n'ibindi. Gurisha wivugani n'abakiriya mu masaha makumyari n'ane. Gura kuri make wivuganiye na ba nyirabyo.

Urubuga rwagejejwe mu Rwanda rwifashishwa mu guhuza abaguzi ndetse n'abagurisha ibicuruzwa bitandukanye, urwo rubuga Kandi ruba ruriho ibiciro bya buri gicuruzwa.

Ikinyabiziga kiriho igikoresho cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu buryo bwo kuranga cyangwa kwerekana amerekezo y'aho umugenzi agiye ndetse naho avuye bitagoye.

Urubuga rw'ikoranabuhanga, aho umuguzi ahurira n'umugurisha bakaganira ku giciro akabimugezaho ku buntu www akadomo kigure akadomo rwa.

Inzugi ebyiri ri mu ibara ry'icyatsi kibisi, icyapa kiyobora abaguzi, Nyarutarama, gicuruza ibijyanye n'imbuto, imboga ndetse n'ibiribwa bitandukanye.

Kampani yitwa safi igemurira abaguzi ibyo kurya, umukozi wa asafi wambaye impuzankano iri mw'ibara ry'ubururu.

Urubuga rwamamaza ibijyanye no gukora amata aho bafata amata aho bafata amata bakongeramo ibindi bintu bitandukanye bikungahaye ku binyabuzima ndetse no kubyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga bikongerwa muri ayo mata.

Tangira ugure cyangwa ugurishe ubicishije kurubuga rw'ikoranabunga rwitwa e-gura, aho uhasanga ibicuruzwa bitandukanye. Birimo imyenda, mudasobwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibinyabiziga byabugenewe mu gutwara ibiribwa byateguwe neza, biteguranwe isuku; bambaye impuzankano zabugenewe ndetse n'udupfukamunwa twabugenewe.

Urubuga umuguzi n'umugurisha bahuriraho, bakaganira ku giciro cy'igicuruzwa; umuguzi akaba yakwishyura akoresheje ikoranabuhanga ndetse bikamugeraho aho yaba ari hose ku buntu.

Kasha ni uburyo bugezweho bwifashishwa mu bucuruzi bw'ibiribwa bihiye, aho hakoreshwa ikinyabiziga mu gushyikirizwa ibiribwa bihiye biva hamwe kandi bijyanwa ahandi hakoreshejwe ikoranahunga.

Icyapa kiyobora abagenzi aho bacumbika Kivu marina, ikinyabiziga gitwaye amafunguro ya sosiyete yitwa vuba vuba.

Urubuga rw'ikoranabuhanga ruhurirwaho n'abacuruzi ndetse n'abaguzi bakaganira ku giciro hakishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, ibyo bikorwa harimo mudasobwa, inkweto n'ibindi n'ibindi.

Urubuga abaguzi n'abagurisha bahuriraho bakaganira ku bijyanye n'ibicuruzwa, bakumvikana igiciro hifashishijwe ikoranabuhanga, umuguzi akishyura akoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa.